Inama yahuje abantu bari mu nzego zitandukanye z'ubuzima, bakaba bayikoze bambaye imipira y'umweru n'amabaji y'ubururu mu ijosi, bakaba bamaze kuyisoza ndetse basohotse gufata ifoto.

Ibicupa bibiri binini cyane bisa nk'ubururu bifite indiba y'umukara, bibikwamo okisigene ikoreshwa n'abarwayi bafite ibibazo by'umwuka mukeya.

Ku mugezi hari abagore babiri bunamye bari kuvoma amazi, umwe bisa nkaho ari gukaraba mu maso, iruhande rwabo hateretse amajerekani abiri, inyuma yabo hari undi mugore wambaye agapfukamunwa k'umweru.

Ku mugezi hahagaze umugore uhetse umwana ku rutugu, usutse ibisuko bigufiya, bigaragara ko ari koza indobo isa nk'umuhondo, ifite umufuniko usa nk'umutuku.

Umwana w'umukobwa wambaye ijipo y'ubururu n'umupira w'amaboko maremare ujya gusa n'ubururu bwerurutse, ari kuri robine, ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kugirango yirinde indwara zandurira mu mwanda.

Ku kagari hicaye abaturage benshi cyane baje mu nama, hari n'abayobozi bahaje kubaganiriza ku bijyanye n'uburyo serivisi z'ubuzima bazigeraho bitabagoye.

Ku mugezi hari abaturage benshi batandukanye baje kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo, muri bo harimo umwana w'umusore wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umuhondo w'amaboko magufi.

Umubyeyi uteruye umwana, bigaragara ko yaje kwa muganga kumuvuza. Imbere ye hari umuganga uri kumwitaho bisa nkaho ari guha uwo mwana umuti.

Umuntu uri ku mugezi witeye agasharupe karimo ibara ry'umutuku n'umweru, yazanye ijerekani isa nk'umuhondo kuvoma, inyuma y'iryo vomero hakikijwe n'ibiti byinshi bisa nkaho ar’ibihuru.

Umugore wambaye ibitenge uteruye umwana wambaye akagofero k'umweru yazanye indobo y'umukara kuvoma kugira ngo acyure amazi ajye gutekera abana bagiye ku ishuri bataza gusanga ataramara guteka bakicwa n'inzara.

Umumama mwiza cyane uri ku mugezi waje kuvoma ari guseka, biragaragara ko yishimye, ari kumwe n'abana be b'ababahungu babiri, umwe yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye umupira w'umweru urimo n'umukara.

Kwa muganga hari umwana w'umukobwa wambaye umupira w'imbeho usa nka move uteruye umwana mutoya w'umuhungu yaje kuvuza ndetse muganga ari kumwitaho yishimye cyane rwose.

Kwa muganga hari umudogiteri wicaye, hari n'undi umuhagaze iruhande, imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse iruhande rwabo hari umukecuru wambaye agapfukamunwa k'ubururu, wambaye n'esharupe mu ijosi.

Abana batoya bambaye imipira ya oranje yandikishijwemo amagambo asa nk'umukara bicaye hasi imbere yabo hari umugore wambaye ijire isa nk'ikigina uri kugenda abasomya amata.

Ku ivomero hahagaze abana batatu b'abahungu, bazanye utubido tw'umuhondo kuvoma, bakaba bari kuvomerwa n'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, ndetse n'umupira ujya gusa nk'umweru, hirya yabo hakaba haparitse imodoka iri mu ibara ry'umweru.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru witeze igitambaro cy'umukara, bigaragara ko ari umuganga uri gupima abaturage indwara zitandukanye.

Ibiganza bibiri biri gufata amazi ari kuva muri robine isa nk'ubururu, iruhande rwabyo hateretse isabune biri bukoreshe kugira ngo mikorobe zive ku ntoki.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'ubururu bwererutse n'ipantaro isa nk'umukara, imbere ye hateretse indobo ya kandagira ukarabe, biragaragara ko ari kuyifungura kugira ngo yoge intoki.

Kwa muganga hari abagore babiri umwe yambaye imyenda isa nk'ubururu undi yambaye ikote ry'umukara bambaye udupfukamunwa dusa nk'ubururu bwerurutse imbere yabo hateretse mudasobwa bigaragara ko hari ibyo bari gufasha umurwayi ubahagaze imbere wambaye ikanzu y'igitenge.

Mu cyumba cy'inama hicayemo abagabo n'abagore bagiye bafite amakayi n'impapuro bigaragara ko bari gukurikira ibiganiro bari guhabwa n'umuyobozi wabo.

Mu cyumba gikorerwamo inama hicayemo abagabo n'abagore bose bagiye bafite impapuro mu ntoki bigaragara ko bari kuganira ku buzima rusange bw'abaturage.

Abaganga batatu bambaye amabaji y'ubururu mu ijosi, iruhande rwabo hicaye abaturage babiri harimo umukecuru umwe witeze igitambaro mu mutwe.

Mu cyumba cyo kwa muganga hahagazemo umukozi waho wambaye agapfukamunwa k'ubururu bwerurutse, uteze agatambaro mu mutwe karimo amabara y'ubururu n'umuhondo, yambaye itaburiya y'icyatsi.

Abaganga bambaye amataburiya y'imyeru ndetse n'ama baji mu ijosi baje mu ruzinduko ahitwa Nyabageni, bagiye kwiga ku birebana n'indwara zigiye zitandukanye.

Umwana w'umuhungu, wambaye impuzankano yo ku ishuri, isa nk'umutuku, imbere ye hateretse kandagira ukarabe irimo indobo isa nka oranje, ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Umukobwa wicaye asutamye, wambaye umupira wa orange n'ijipo y'umukara, imbere ye hateretse amabasi abiri, arimo ijerekani y'umuhondo, bigaragara ko ari kuvoma amazi yo kumesa.

Kwa muganga habereye inama ihuza abajyanama b'ubuzima, bakaba bambaye amataburiya asa nk'ubururu ndetse n'ibitenge ariko hakaba harimo n'abagabo, bose bakaba bari kuganira ku buzima bw'abaturage.

Ku mugezi hari umwana w'umukobwa wishimye cyane kubera ko ari guseka, yahazanye amajerekani yo kuvomeramo amazi, abiri muri yo asa nk'umuhondo, indi isa nk'ubururu, ipfundikije umufuniko w'umutuku.

Abayobozi batandukanye b'abagabo, harimo abambaye amakote, abambaye imipira, bicaye bazengurutse ameza ariho igitambaro cy'umukara, bari kuganira ku bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga, kugirango serivisi z'ubuvuzi zihute, ndetse hari n'ibirahure birimo amaji yo kunywa.

Urugaga rw'abaganga, rurimo abasore n'abakobwa, abagabo n'abagore, harimo abambaye amataburiya y'imyeru, abandi bambaye imyenda isanzwe, bisa nk'aho bari mu nama bari kuganira ku buzima no ku iterambere.

Umugore w'umuzungu ufite imisatsi igwa mu mugongo yambaye umupira w'ikigina w'amaboko magufi, afite mikorofone mu ntoki yambaye n'isaha ku kuboko ari gutanga ikiganiro cyerekeranye no kwita ku buzima bw'abana.

Abagore batandukanye bose bambaye ibitenge, harimo abambaye amajire y'icyatsi bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima bari baje kubaganiriza ku bijyanye no kurya indyo yuzuye.

Abayobozi benshi batandukanye bari muri sale y'inama barasa neza cyane, harimo abiganjemo abambaye amashati y'umweru, amakote y'ubururu, buri wese imbere ye hateretse agacupa k'amazi bose bafite amakaye n'amakaramu mu ntoki, bigaragara ko bari kuganira ku bijyanye n'iterambere ry'abaturage.

Ku mugezi hahagaze abana baje kuvoma barimo uwambaye ikabutura y'ubururu bwerurutse n'umupira w'umutuku ndetse n'undi uri kuvoma wambaye agapira k'ikigina n'ikabutura y'umukara.

Ubukangurambaga bw'abajyanama b'ubuzima bwahujwe n'inzego z'abayobozi zitandukanye, bakaba bari bari kuganira kuri serivisi zitandukanye z'ubuzima, n'uburyo bagomba kwita ku buzima bw'abaturage.

Amazi ni ubuzima ndetse n'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, hano rero hari robine ebyiri, imbere hari umwana ufite igikombe waje kuzivomaho amazi yo kunywa.

Ku mugezi hari umubyeyi wambaye isengeri isa nk'umutuku waje kuhakarabiririza umwana bigaragara ko bishimye. Inyuma ye hari undi mwana w'umuhungu waje gushaka amazi yo kujyana mu rugo.

Umuganga w'umusore wambaye umupira wa oranje, ipantaro y'umukara n'amarinete asa nk'umukara, ari gutera umwana urushinge ndetse bigaragara ko umubyeyi we yamuzanye kumukingiza.

Ku ivomero hari abaturage benshi bagiye batandukanye baje gushaka amazi yo kujyana gukoresha mu rugo, hakaba hari umwana w'umusore wambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi n'agakabutura k'ikoboyi akaba ari we ugezweho bakaba bari kumuvomera.

Abaturage biganjemo abagabo bambaye imipira y'imyeru, bicaye muri sale y'inama, bigaragara ko bari kuganirizwa ku bijyanye na serivisi z'ubuzima.

Abazungu batanu n'umwirabura umwe wambaye ikositimu y'umukara, bicaye ahantu bari kuganira kubijyanye no kwita ku bana.

Umugezi uriho robine enye hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'ubururu, hicaye umwana uteruye indobo isa nka oranje, bigaragara ko amaze kuvoma.

Sale nini cyane iberamo inama, irimo abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zisa nk'ubururu, biragaragara ko bitabiriye ibiganiro runaka kandi hari abayobozi bari kubaganiriza.

Umugabo wambaye itaburiya yubururu mwimbere yambaye umupira wikigina wamaboko magufi, iruhande rwe hahagaze umugore ukennye igitenge wambaye umupira wmweru na wo wamaboko magufi bari kwitegereza igishushanyo gishushanyijeho abana babiri.

Ku mugezi hari abantu batandukanye bagera kuri bane, harimo umugore wambaye ibitenge n'agapfukamunwa k'ubururu bwerurutse, baje kuvoma bafite amajerekani asa nk'umuhondo.

Ivomero ririho robine ebyiri, imbere yaryo hahagaze umwana wambaye ikabutura y'ubururu n'umupira usa nka oranje, afite igikombe mu ntoki kijya gusa nk'muhondo werurutse, yaje kuvoma amazi yo kunywa.

Ku ivomero hahagaze umubyeyi ukenyeye igitenge gisa nk'icyatsi kibisi, wambaye n'umupira w'amaboko magufi urimo uturongo dutambitse, afite amajerekani y'umuhondo, yaje gushaka amazi yo kujya gukoresha mu rugo.

Umusore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru na ga mu ntoki, wambaye na baji y'ubururu mu ijosi, imbere ye hari abaturage bahicaye baje kwivuza ndetse harimo n'uwo amaze gutera urushinge.

Umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya y'ubururu yicaranye n'umugore n'umugabo baje kwisuzumisha kugira ngo bakurikire ubuzima bw'umwana batwite.

Ku ivomero hahagaze abagore barimo uwambaye igitenge kirimo amabara asa nk’umutuku n'ishati y'umuhondo, iruhande rwe hahagaze umukobwa wambaye ishati y'ubururu ndetse n’undi wambaye ikanzu y’igitenge, bose baje gushaka amazi yo kujyana gukoresha mu rugo.

Umumama wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara witeze n'agatambaro k'umweru mu mutwe, ateruye umwana, biragaragara ko yaje kwa muganga kumukingiza, iruhande rwe hari umuganga ugiye kumukurikirana wambaye ikanzu y'igitenge.

Umugore uri guseka, wambaye igitenge kirimo amabara atandukanye n'ishati irimo amabara y'umweru n'umukara, yambaye n'ingofero mu mutwe, ari gukaraba intoki akoresheje isabune n'amazi meza.

Umugabo wambaye umupira usa nka orange n'ipantaro y'ubururu, arigusuhuza umwana mutoya cyane w'umuhungu wambaye impuzankano y'ishuri, ndetse bigaragara ko iruhande rwabo hari n'abandi bana benshi.

Abakozi batandukanye bambaye imipira y'ubururu, harimo umwe wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'undi wambaye ishati y'umukara, bakora mu kigo cyitwa Unicef gikora mu bijyanye n'ubuzima.

Umugore wambaye amarinete, yambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'ubururu n'umutuku, inyuma ye hari abana bari guseka biragaragara ko bishimye ndetse bakurikiye ibyo bari kubabwira.

Abana bambaye inifomo zisa nk'ikigina harimo uwambaye inkweto z'umutuku, bari ku mugezi baje gushaka amazi yo kunywa ndetse babyishimiye kubera ko nta nyota barongera kugira.

Umugore wambaye ibitenge uri guseka, ateruye umwana we, imbere ye hari umuganga uri kumuhereza umuti biragaragara ko baje kwa muganga aje kumusuzumisha ngo arebe ikibazo yaba afite mu mubiri.

Mu cyumba cy'inama hicayemo abagabo n'abagore bose bambaye neza, kuko bambaye imyenda y'amakositimu. Hagati yabo hicayemo umuyobozi nawe wambaye kositimu, iruhande rwabo hateretse ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, bigaragara ko bari mu nama.

Umwana w'umukobwa uri guseka cyane wambaye agakanzu karimo utudomo, ari ku mugezi yaje kuvoma, iruhande rwe hateretse indobo eshatu z'umweru.

Abagabo umunani bicaye ku meza ariho igitambaro gisa nk'ubururu, imbere ya buri umwe hateretse agacupa k'amazi, bicaye batuje barakurikiye, bigaragara ko bari kuganirizwa ibijyanye n'ubuzima.

Ivomero riri mu mudugudu hari gutambuka abaturage batandukanye, harirumu umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse imbere ye hari umwana ufite akabido k'umuhondo uri kuvoma, amazi ni meza ubu yegerejwe abaturage ntago bakigorwa no kujya kuyashakira kure.

Umwana w'umukobwa wambaye agakanzu gasa nk'ikigina n'agashati karimo utubara twinshi, ari kuri kandagira ukarabe iriho indobo y'icyatsi n'akabase k'icyatsi, akaba ari gukaraba amazi meza n'isabune kugira ngo atazandura indwara ziterwa n'umwanda.

Kwa muganga hari ababyeyi batandukanye, barimo abambaye imipira y'imyeru bazanye abana kubahesha ibiryo birimo intungamubiri kugira ngo batazarwara bwaki.

Abagore batatu bakenyeye ibitenge, harimo uwambaye isengeri y'umweru n'undi wambaye umupira w'ubururu urimo n'ibara ry'umutuku, bari ku mugezi baje kuvoma kugira ngo batahane amazi yo gukoresha mu rugo.

Ku mugezi hari umugabo ugaragara nk'ukuze waje kuvoma azanye ijerekani isa nk'umuhondo, yambaye ipantaro yumukara ndetse n'ishati y'amaboko magufi irimo uturongo duhagaze n'udutambitse.

Umuhanzi witwa Israel MBONYI yambaye umupira wa oranje n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, afashe umwana w'umuhungu wambaye umupira wa oranje uhagaze aho babapimira ibiro.

Abana babiri b'abahungu umwe wambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi n'agakabutura, undi yambaye ishati n'ipantaro bidoze mu gitenge, bari ku mugezi bari gukaraba amazi meza.

Umusore wambaye ikabutura y'umuhondo n'isengeri y'umukara, iruhande rwe hateretse indobo y'ubururu afite isabune mu ntoki ari gukaraba, imbere ye hahagaze umwana w'umukobwa uri kumusukira amazi.

Iruhande rw'ikiyaga, hahagaze umugabo waje koza igare, wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru ndetse muri icyo kiyaga, hunamyemo umumama uri kuvoma.

Kwa muganga hari umwana w'umukobwa wambaye ishati isa nk'ubururu, ari guterwa urushinge n'umuganga wambaye itabuririya y'umweru, ndetse na ga z'umweru, wambaye na baji isa nk'ubururu mu ijosi.

Abaturage bicaye mu ihema ritakishijwe ibitambaro biri mu mabara y'idarapo ry'igihugu cyacu, harimo ubururu, umuhondo n'icyatsi. Imbere yabo hahagaze umuyobozi wambaye itabuririya y'umweru ufite mikorofone mu ntoki, uri kubaganiriza ibijyanye na serivisi z'ubuzima.

Umwana w'umukobwa usutse udusuko dutoya cyane afite icupa ryamazi ari ku mugezi, bigaragara ko yaje kuvoma amazi yo kunywa kugirango inyota itamwica.

Kuri robine, hari umwana w'umukobwa wambaye imyenda idoze mu gitenge isa nk'umutuku, ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugirango yirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umumama uri ku kumugezi ukenyeye igitenge, wambaye umupira usa nk'ikigina, afite amajerekani y'umuhondo yaje kuvoma, kugira ngo ajyane amazi yo gukoresha mu rugo, maze ubuzima bw'iwe bukomeze kugenda neza.

Ku kigega kirimo amazi hahagaze abana b'abanyeshuri bafite ibikombe byiganjemo ibisa nk'icyatsi kibisi. Bambaye imipira y'amaboko maremare ijya gusa nk'umukara bigaragara ko bari kunywa amazi.

Ababyeyi b'abamama batatu, umwe yambaye igitenge kirimo amabara y'icyatsi, undi yambaye igitenge kirimo amabara ya pinki, bari ku mugezi baje kuvoma, bafite amajerekani menshi asa nk'umuhondo.

Umuco wo gukaraba intoki ni mwiza cyane kubera ko udufasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, hano rero hari abana batatu bari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'umweru, ufite ibisuko bifungiye hejuru, yicaye iruhande rwa muganga, biragaragara ko bari kumutera urushinge ndetse ari kubabara.

Umubyeyi w'umumama, wambaye igitenge, uteruye mwana wambaye ubusa hejuru, yicaye kwa muganga, bigaragara ko yaje kumuvuza, imbere ye hicaye umuganga uri gusuzuma umwana, ngo amenye ikibazo afite.

Abasore babiri umwe yambaye umupira w'ubururu, afite n'agatambaro gasa umutuku mu ijosi, undi yambaye ishati y'ikigina biragaragara ko hari ibyo ari kumusobanurira kugira ngo bitazamugiraho ingaruka mbi.

Ku kigo nderabuzima hahagaze abaturage batandukanye, hagati yabo harimo umuyobozi wambaye ijire y'ubururu n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hahagaze umudogiteri wambaye itaburiya y'umweru.

Umugore wambaye igitenge witeze agatambaro mu mutwe kajya gusa nk'ubururu, inyuma ye hahagaze abandi bagore bishimye bari guseka bigaragara ko bari bari kuganirizwa ku bijyanye no kwirinda indwara runaka.

Ku kigo nderabuzima hari abaturage baje kwivuza, hanze hicaye abayobozi bari kuganira ku bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'uburyo abaturage bazajya barikoresha zimwe muri serivisi baza gushaka kwa muganga, bakazikorera bibereye iwabo mu rugo ndetse ku ruhande rwabo haparitse imodoka yajemo abo bayobozi.

Ikirango cy'ubururu kiriho akaziga gashushanyijemo umutwe w'umumama n'umwana, cyanditseho amagambo agira ati: "UNICEF kuri buri mwana".

Ku mugezi hahagaze abana bane baje kuvoma, hari n'umugore imbere yabo uri kubafasha kugira ngo baze kubona amazi batahana, haparitse n'imodoka isa nk'umweru.

Inama yariri kuberamo umushyikirano, nyuma yayo abayobozi bahise bajya kwifotoza biganjemo abagabo bambaye amakositimu meza cyane ku ruhande hahagaze umugore wambaye ijipo y'umukara n'ikote ry'ikigina.

Ahantu bigaragara ko ari kwa muganga, hicayemo abayobozi batandukanye bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari umuyobozi w'umugore uhagaze wambaye umupira w'umuhondo, bigaragara ko ari kubaganiriza.

Urubyiruko rwicaye ahantu heza, imbere yabo hagiye hari ameza asa nk'umweru ateretseho uducupa twamazi n'amakaye arimo ibara ry'ubururu, bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'umweru bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima.

Mu mudugudu hari abajyanama b'ubuzima n'abandi bayobozi batandukanye. Barimo abiganjemo abambaye imipira y'imyeru, iy'amaboko magufi, bari kuganira ku buzima ndetse n'uburyo bafasha ababyeyi batwite kwitabira gahunda zose zo kwa muganga.

Icyapa kiriho ikiziga cy'umuhondo cyahobewe n'amaboko, cyanditseho ngo wihogora, bakaba bakurikirana ibibazo byo mu mutwe, ndetse bakaba bari kuduhumuriza ko ubuzima bwacu bwo mu mutwe bukwiriye kuba bwiza.

Abajyanama b'ubuzima batatu b'abagore, bambaye udupfukamunwa tw'ubururu bwererutse, bari ahantu mu cyaro bagiye kuganiriza abaturage ku bijyanye no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Urubyiruko rw'abanyeshuri, bambaye imipira y'ubururu, hasi bambaye amapantaro y'imikara, hagati yabo hahagaze umuyobozi wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara na karuvati isa nk'ivu, bari kuganira kubijyanye n'ibibazo byo mu mutwe.

Umugabo w'umusazi wambaye ipantaro isa nk'ikigina n'umupira w'umutuku yicaye yigunze yegamiye urukuta ahantu muri koridoro.

Umugabo w'igikara wambaye umupira w'icyatsi cyerurutse afite amarira ku maso bigaragara ko yarenzwe n'agahinda gakabije, yaje kwa muganga kugira ngo bamugire inama.

Umugore ufite ibisuko bisa nk'umukara, yambaye ijire y'umuhondo, ari ahantu muri butike, inyuma ye hateretse bureba, biragaragara ko yishimye cyane kuko yabonye amafaranga uyu munsi.

Abana bambaye imyenda isa nabi, biragaragara ko barenzwe n'ibibazo cyane, bari kurira agahinda kabishe bakeneye kwitabwaho kugira ubuzima bwabo bwo mu mutwe bugende neza.

Umujyanama w'ubuzima wambaye umupira usa nk'ubururu, wicaye imbere y'ameza ariho igitambaro gisa nk'umuhondo ndetse imbere ye hateretse agacupa k'amazi, iruhande rwe hari umugore witeze igitambaro mu mutwe wambaye n'umupira usa nk'icyatsi.

Umwana w'umukobwa ufite ibisuko bijya gusa nka shokora, yambaye imyenda y'ishuri na karuvati y'umukara, afite biswi ari kuyirya, ari guseka biragaragara ko yishimye.

Abaturage batanu n'umwana umwe ubicaye hagati, bicaye bari kuganira ku bibazo bitandukanye harimo nko gukoresha amazi meza kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umukecuru bigaragara ko akuze cyane, yambaye ibitenge birimo amabara asa nk'icyatsi, umweru ndetse n'umuhondo, ari guseka biragaragara ko yishimye cyane.

Abagore n'abagabo, biganjemo abambaye imipira y'umukara, ku ruhande rumwe hari umugabo wambaye ipantaro y'ikigina n'umupira w'umweru, ku rundi ruhande hari uwambaye ipantaro ijya gusa nk'umukara n'umupira w'ikigina bose bari kwifotoza, bigaragara ko bari bamaze kuganira ku kintu runaka.

Umugabo wambaye ikabutura y'ikoboyi n'umupira w'umutuku w'amaboko magufi, bigaragara ko akuze, yicaye hasi yakikijwe n'abantu benshi, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abana b'abanyeshuri benshi cyane bari ku kigo cy'amashuri, bambaye impuzankano y'amashati asa nk'ubururu barishimye cyane bazamuye ibiganza, bigaragara ko bari kuganirizwa ibijyanye no kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikigina n'inkweto z'ikigina wambaye n'ishati ya karokaro, uhetse igikapu cy'umukara yaje ku bitaro bya Ndera bikurikirana indwara zo mu mutwe kureba umurwayi we uharwariye.

Mu cyumba cy'inama hahagazemo abaturage benshi cyane, harimo abasutamye imbere yabo biganjemo abambaye amashati y'imyeru y'amaboko maremare, iruhande rwabo hahagaze umugabo wambaye ishati isa nka move, washyize ikiganza ku meza ateretseho agacupa k'amazi.

Ibitaro bya Karayesi, byita kandi bigakurikirana abarwayi bafite indwara zo mu mutwe. Bisa neza cyane, imbere yabyo hari imikindo ndetse na jaride zirimo indabyo nziza cyane.

Mu mudugudu abajyanama b'ubuzima baje gusura umugabo wari ufite ikibazo cy'uburwayi, baje kumubaza uko indwara yamufashe kugira ngo batangire bamukurikirane ndetse nibiba ngombwa bamujyane ku bitaro byisumbuye avurwe akire neza.

Umumama wicaye ku rubaho uri guseka wambaye agapfukamunwa uhetse umwana, iruhande rwe hahagaze n'undi w'umuhungu, biragaragara ko ari kubatekera ibyoku kurya.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi. Yambaye ibirenge. Ari ahantu hasa nabi. Bigaragara ko ari umusazi afite indwara yo mu mutwe. Ni byiza ko aba bantu tubakurikirana tukabageza kwa muganga bakabavura.

Ivuriro ryita ku buzima bwo mu mutwe, riherereye mu Karere ka Bugesera, rifasha abaturage bahuye n'ibibazo byo kuba bakwiheba kongera bakamererwa neza.

Umugabo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye ishati yacikaguritse n'ipantaro icitse cyane ku buryo bugaragara, akaba ari mu muhanda yambaye n'ibirenge, inyuma ye hakaba hari moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Abaturage benshi batandukanye harimo abagore, abagabo, hari n'abayobozi bahagaze bari bari kubaganiriza ibijyanye n'indwara zo mu mutwe ndetse n'uburyo bazirinda, bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo ari guseka cyane, arishimye afite amenyo asa neza, ibi bikaba bigaragaza ko dukwiye kujya dukorera amenyo yacu isuku ihagije kugira ngo duseke nta ngingimira dufite.

Imodoka nini y'umweru, bigaragara ko yaje irimo abantu, bari gukora ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse no kwirinda indwara zo mu mutwe.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi, ukenyeye n’igitenge, yicaye k’umukeka ariko uwo mukeka urahinnye, yambaye n'udukweto twa silipa bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abagore bambaye amabaji mu ijosi, bose bambaye amakanzu y'ibitenge bari ahantu muri sale y'inama, bigaragara ko bari kuganira ku iterambere ry'abaturage ndetse bafite akanyamuneza ku maso.

Icyapa cy'ubururu, kiriho umusore wambaye rinete, ufite umusatsi utari mwinshi cyane, wambaye n'ishati y'umweru, kikaba kiri kutwereka ko dukwiye kwita ku bantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

Umukecuru w'umusazi yambaye imyenda isa nabi cyane ateruye ibintu bisa nabi birimo n'ibyatsi. Iruhande rwe hateretse amashashi n'amacupa.

Umugabo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye isengeri n'ikabutura byose bisa nabi, yicaye hasi, afite igipine kinini cyane yiyambitse mu nda, iruhande rwe hahagaze abantu bari kumushungera.

Icyumba kinini cyane kiberamo inama, harimo abagabo n'abagore, baricaye barakurikiye cyane bigaragara ko bari kuganirizwa ku bijyanye no kwirinda indwara runaka.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'ikoboyi, yaje kwa muganga kugira ngo bamugire inama kubera ko ibibazo byamubanye byinshi mu mutwe. Yubitse umutwe mu maguru, bigaragara ko yamaze kurengwa n'agahinda gakabije.

Umukobwa wambaye amaherena y'umweru ku matwi, biragaragara ko arwaye amenyo, ari kwa muganga, iruhande rwe hahagaze umuganga ufite udukoresho bakoresha bari gukura amenyo.

Umurwayi w'umugabo usa nk'igikara bigaragara ko yarembejwe n'amenyo. Iruhande rwe hari umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru. Afite ibikoresho bakoresha bakura amenyo. Ari kumukurikirana kugira ngo amuvure.

Kwa muganga haryamye umwana wambaye umupira ujya gusa nk'icyatsi cyerurutse, hakaba hari umuganga wambaye ga z'umweru, ufite n'udukoresho basuzumisha amenyo, akaba agiye kumurebera ikibazo afite, kijyanye n'amenyo.

Umukobwa wambaye isengegeri y'umweru witeze n'igitambaro mu mutwe cy'umweru, afite uburoso bw'amenyo ari kwiborosa, ari guseka arishimye bigaragara ko amenyo ye ayitaho uko bikwiye.

Umugao bigaragara ko igice cyo hejuru atambaye, atambaye ari guseka, afite akadodo ari kunyuza mu menyo bigaragara ko ari kutwereka uburyo bwiza wakoresha wita ku menyo yawe.

Kwa muganga hari umusaza warembejwe n'amenyo wambaye umupira w'icyatsi, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru ari kumusuzuma, biragaragara ko ari kumurika mu kanwa ngo arebe iryinyo rifite ikibazo.

Umukobwa w'inzobe mwiza cyane uri guseka neza, yasobekeranyije intoki iruhande rw'umunwa we, bigaragara ko ari kutwereka uburyo bwiza bwo gukoresha umuti w'amenyo, kugira ngo azajye asa neza cyane tubone uko duseka nta ngingimira dufite.

Mu bitaro harasa neza cyane, harimo intebe zifite ibara rya move n'ibindi bikoresho bitandukanye, ndetse n'igitanda baryamishaho umurwayi, bagiye kumukurikirana ngo barebe ikibazo afite.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi, iruhande rwe hari abandi bana bambaye imipira irimo amabara atandukanye, inyuma yabo hari abandi babiri bambaye imipira isa nk'umweru, bari ku meza ateretseho udukoresho twinshi dutandukanye.

Umukobwa mwiza cyane w'inzobe usutse ibisuko birebire, iruhande rwe hari umuganga wambaye ga z'umweru uri kumusuzuma kugirango arebe ko nta kibazo afite cy'amenyo.

Kwa muganga haryamye umusore wambaye ishati y'umukara, iruhande rwe hahagaze abaganga babiri bambaye ga zisa z'ubururu, bafite ibikoresho bari gukurikirana amenyo ye biragaragara ko uyu musore ayarwaye ku buryo bukomeye.

Umwana wambaye umupira w'umukara w'amaboko magufi n'agapfukamunwa k'umutuku ari gukurikiranwa n'abaganga bambaye amatabuririya y'umweru n'udupfukamunwa tujya gusa nk'ubururu bwerurutse kugira ngo bamurebere ko nta kibazo ashobora kuba afite cyo mu kanwa ndetse n'amenyo muri rusange.

Umugabo w'inzobe uri guseka cyane, ufite amenyo meza y'umweru bigaragara ko ayakorera isuku mu buryo bukwiye kugira ngo atazayarwara.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zisa nk'ubururu bafite uburoso bw'amenyo, bari gukora isuku yo mu kanwa kugirango amenyo yabo atazangirika.

Umugabo ufite isume ku rutugu, ari guseka, intoki ze zifashe akadodo ziri kukanyuza mu menyo, bigaragara ko yakoresheje umuti kugira ngo amenyo ye akomeze gusa neza.

Kwa muganga ku gatanda k'abarwayi, haryamye umusore wambaye umupira w'umutuku, ari kwitabwaho na muganga, ari kumusuzuma amenyo ngo arebe ikibazo afite maze batangire bamuhe imiti yo kuyavura.

Umuganga bigaragara ko ari umuzungu yambaye itaburiya y'umweru n'amarinete, ari mu cyumba kwa muganga bigaragara ko ari gukora ku mashini irimo ibishushanyo by'amenyo, bisa nkaho ari kwerekana uburyo indwara zishobora gufata amenyo..

Mu bitaro kwa muganga, hari umusore wambaye ishati isa nk'ikigina, uri guseka neza cyane, wicaye ku ntebe yegamiye, bigaragara ko ari kudukangurira gukoresha umuti w'amenyo, kugira ngo tujye tuyakorera isuku ntitugire indwara ziyafata.

Umusore w'inzobe ufite ubwanwa bwinshi, biragaragara ko yambaye ubusa ku gice cyo hejuru, ari kutwereka uburyo bwo kwita ku menyo no gukora isuku yo mu kanwa.

Gukoresha umuti w'amenyo igihe turi kwiborosa ni byiza cyane, kuko biyarinda kwangirika, ndetse no gufatwa n'indwara zo mu kanwa, imbere yacu hari umumama wambaye isengeri y'umweru n'umwana we wambaye isengeri y'umweru, bose bari kwiborosa.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'akazi isa nk'umukara, umusore yambaye amarinete naho umukobwa yambaye agatambaro mu mutwe, iruhande rwabo haryamye umurwayi bari kumusuzuma ngo barebe ikibazo afite.

Umuganga ufite ibikoresho bitandukanye wambaye amarinete, yaryamishije umwana ku gatanda k'abarwayi ari kumusuzuma ngo arebe niba nta ndwara afite zo mu kanwa, maze batangire bamukurikirane kugira ngo ubuzima bwe buzakomeze kugenda neza.

Umukobwa wambaye ingofero mu mutwe, ufite agakoresho kajya gusa nk'ubururu bwerurutse, kariho urudodo hagati bigaragara ko gakoreshwa uri gusukura amenyo, ari kutwereka uburyo bwiza bwo kuyitaho kugira ngo atazahura n'indwara runaka.

Abana b'abanyeshuri bafite ibikombe mu ntoki, birimo amazi yo kunywa ndetse n'uburoso bose bigaragara ko bari kwiborosa, ni byiza kwita ku menyo yawe kugira ngo utazarwara indwara zo mu kanwa.

Abagore babiri bose bafite ibisuko, bafite amafishi mu ntoki, umwe yambaye ikote ry'ubururu bwerurutse undi yambaye ikote ry'umutuku, bose mo imbere bambaye udusengeri tw'umukara, umwe ari guseka undi yambaye amarinete barishimye cyane ndetse biragaragara ko ari abaganga, bari gukurikirana amafishi y'abarwayi babo kugira ngo babiteho.

Umukobwa mwiza cyane, ufite umusatsi muremure, yambaye isengeri y'umweru, ari gukora isuku yo mu kanwa, kugira ngo amenyo ye atazahura n'ibibazo birimo nko gukuka cyangwa gucukuka.

Kwa muganga hari abantu babiri, umugabo wambaye karuvate ndende n'isaha nziza ku kuboko, bafite ibikoresho bikoreshwa mu gusuzuma amenyo ndetse imbere yabo hari igishushanyo, bari kwigiraho, uburyo bavura indwara zo mu kanwa.

Umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi miremire igwa mu mugongo, w'inzobe ari gukoresha siporo umukecuru ufite imvi wambaye amaherena uri guseka bigaragara ko yishimye.

Umusaza ufite imvi, yambaye amarinete, biragaragara ko atakireba neza, yambaye n'agapira k'amaboko maremare, ari gusoma, afite ikaramu mu ntoki, biragaragara ko ajijutse rwose.

Abagore babiri bambaye neza umwe yiteze igitambaro cy'umutuku mu mutwe, undi afite ibisuko by'umukara bigwa mu mugongo. Bari gutambuka biragaragara ko bavuye muri siporo.

Umukecuru ufite agasatsi gakeya gasa nk'umukara, afite n'agatambaro mu ntoki gasa nka pinki, iruhande rwe hari umugore wambaye itaburiya y'umukara n'ishati y'amaboko y'umweru, afite n'imisatsi igwa mu mugongo.

Umugabo bigaragara ko akuze kubera ko afite imvi, arasa nk'ugiye guseka, yambaye ishati ya oranje, ari kumwe n'umukobwa wambaye amarinete wishimye cyane.

Umusaza usa neza cyane, wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'amaboko magufi, iruhande rwe hari umuganga wambaye imyenda isa nk'ubururu, uri kumugendesha kugira ngo amaguru ye arambuke.

Umusaza wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, afite imvi nkeya, iruhande rwe hahagaze umugore uri kumusukira umutobe wo kunywa ndetse imbere ye hateretse imbuto uwo musaza agiye guhita arya.

Abakecuru bambaye amajipo y'imikara n'imipira isa nk'umweru, imbere yabo hari umukecuru wambaye ikanzu y'igitenge witeze n'igitambaro mu mutwe, bigaragara ko bari gukora siporo zigorora imitsi.

Umukecuru bigaragara ko ashaje, yambaye umupira w'umuhondo, afite umusatsi urimo imvi, ari kumwe n'umukobwa we wambaye amarinete, ufite ibisuko birebire ndetse iruhande rwabo hahagaze umwana w'umuhungu, wambaye umupira usa nk'ivu, bari guseka barishimye.

Ni byiza kwita ku bantu bakuze kugirango basaze neza. Hano rero hari umukecuru wicaye mu kagare k'abantu bamaze gusaza, imbere ye hari n'umuganga uri kumwitaho, ari no kumuganiriza bari guseka rwose barishimye.

Umusaza wambaye umupira w'amaboko maremare n'ishati y'umweru mo imbere, ufite ubwanwa burimo imvi nyinshi, iruhande rwe hicaye umukecuru ufite imisatsi y'umweru, wambaye umupira usa nka pinki, bigaragara ko bari gufata amafunguro.

Umukecuru uri guseka wishimye cyane yambaye ishati y'amaboko, maremare afite isahani mu ntoki iriho imbuto afite n'ifoke bigaragara ko agiye kuzirya.

Umugabo wambaye ishati y'ikigina, ufite ikintu kimeze nk'isaha ku kaboko afite imisatsi y'umukara, yicaye yitegereza imbere ye nkaho hari ibintu ari kureba muri iyo saha.

Umusaza wambaye umupira w'amaboko maremare, ufite imvi, ubyibushye, bigaragara ko yaje kwa muganga kwivuza, inyuma ye hari umuganga ugiye kumukurikirana.

Umusaza n'umukecuru bigaragara ko bashaje cyane, bose bafite imvi, bafite utuntu dusa nk'umweru tubateretse imbere, bicaye iruhande rw'ameza ariho akarabyo gateretse mu ivase y'umweru gasa nk'icyatsi.

Umusaza wifashe mu gahanga yambaye ishati y'ikigina, imbere ye hari ibitabo bibiri biragaragara ko ari kubisoma ndetse iruhande rwe hari ikirahure kirimo amazi.

Mu cyumba kwa muganga haryamyemo umurwayi w'umusaza, iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya isa nk'umweru ugiye kumuvura, kugira ngo uwo musaza yongere agarure ubuzima.

Abagabo n'abagore bicaye ahantu hasi ku musambi, bari kuganira ku bitekerezo bitandukanye biragaragara ko ari abisilamu.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu butsitse w'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, afite imvi biragaragara ko ashaje, ari hagati y'umusore n'umukobwa, baramuteruye, basa nk'abagiye kumwicaza ku buriri.

Mu mudugudu haparitse imodoka ebyiri, bigaragara ko zajemo abayobozi baje kuganiriza abaturage ibijyanye no kugira imibereho myiza, imbere yabo hahagaze umukecuru ufite mikorofone y'umutuku, uri kubashimira ku byiza byose babagejejeho none bakaba bashaje bameze neza.

Umusaza wambaye ipantaro y'umukara n'umupira wamaboko magufi, arikumwe n'umutoza we wambaye imyenda y'ubururu uri kumukoresha imyitozo ngororamubiri kugirango akomeze asaze ameze neza cyane.

Abakecuru babiri bari mu gikoni, umwe yambaye amarinete afite n'imvi nyinshi cyane, imbere yabo hateretse imboga n'imbuto bari kubitunganya kugira ngo barye ibiryo bifite intungamubiri.

Umusaza wambaye ishati yikigina y'amaboko maremare, bigaragara ko afite imvi nkeya mu mutwe, yicaye kwa muganga, iruhande rwe hicaye umusore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uri kumuganiriza uburyo bwiza wakoresha kugira ngo uruhure mu mutwe.

Iyo umuntu amaze kugera mu zabukuru, hari igihe yibasirwa n'indwara zitandukanye bitewe n'uko atajya akora siporo ngo arambuke imitsi, ni byiza rero ko abakuze bose bakora siporo kugira ngo birinde za rubagimpande ndetse n'izindi ndwara zishobora guterwa no kudakora siporo.

Umukecuru n'umusaza basa neza cyane, bose bambaye imipira y'umutuku ariko umusaza yambaye amarinete, imbere yabo hari ameza ariho uducupa turimo imiti itandukanye.

Mu murima w'icyayi, harimo abagore benshi batandukanye, biteze ibitambaro mu mutwe, bari guseka, bigaragara ko bafite akanyamuneza ku maso, icyayi rero ni kimwe mu bihingwa byinjiriza igihugu cy'u Rwanda amafaranga menshi.

Umusaza wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'ubururu w'amaboko magufi arikugendeshwa n'umukobwa ushinzwe kumwitaho wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umukara.

Kwa muganga hari umukobwa wambaye imyenda ikoreshwa mu buvuzi, uri gucunga umusaza wicaye mu kagare, amujyana aho agomba gukurikiranirwa, kugira ngo avurwe.

Umugore wishimye yambaye amarinete, afite imisatsi igwa mu mugongo, yambaye ishati y'umuhondo y'amaboko agera mu nkokora, hari imiti ari gushyira ku ntoki bigaragara ko agiye kuyinywa.

Umubyeyi w'umumama wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare uri guseka bigaragara ko yishimye cyane, iruhande rwe hicaye umwana bigaragara ko ari uwe, ufite imisatsi myinshi myiza cyane.

Umukecuru wambaye umupira usa nka orange, witeze igitambaro cy'umukara, wambaye n'amarinete uri guseka. Inyuma ye hari umukobwa bigaragara ko ari umuganga wambaye imyenda y'akazi isa nk'ubururu.

Umukecuru wambaye ishati ijya gusa nk'ubururu bwerurutse, ufite umusatsi urimo imvi nyinshi cyane, yambaye uduherena dusa nk'umweru, inyuma ye hari umukobwa wambaye ishati isa nkicyatsi uri guseka, bigaragara ko ari kumuganiriza kugirango aticwa n'irungu.

Umukecuru bigaragara ko ari umusirimu ufite imvi, iruhande rwe hahagaze umukobwa usutse ibisuko by'umukara uri kumukoresha siporo. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma usaza ugifite umubiri umeze neza.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu ufite imvi, ari guseka arishimye cyane ari gukoreshwa imyitozo ngororamubiri, n'umukobwa wambaye ishati yumweru y'amaboko maremare.

Abagore barindwi bambaye amakanzu, inyuma yabo hari abagabo batatu, barimo uwambaye umupira usa nk'icyatsi. Bafite udukoresho mu ntoki, bazamuye amaboko bari mu murima urimo imyaka isa neza cyane.

Umusaza n'umukecuru basa neza cyane, bambaye imyenda isa nk'umweru ariko umusaza yambaye n'amarinete, bafite impapuro bari gusoma ziri imbere yabo ndetse n'intebe ziri inyuma yabo zo kwicaraho igihe bari kuganira n'abantu baje kubasura.

Umukecuru wambaye ishati y'amaboko maremare, ufite umusatsi mukeya, afite ikirahure cy'amazi, iruhande rwe hakaba hari umukobwa wambaye ishati y'ubururu uri kumuhereza imiti yo kunywa.

Umukobwa wambaye ishati y'ubururu, ufite imisatsi igwa mu mugongo, yicaye imbere y'umusaza wambaye amarinete bari guseka, biragaragara ko bishimye cyane. Ni byiza kuganirizwa igihe wumva utameze neza, kugira ngo bikurinde kugira umuhangayiko.

Umusaza n'umusore baricaye bari guseka, imbere yabo hateretse amatasi arimo icyayi, bari gusoma igitabo kugira ngo baruhuke mu mutwe.

Umusaza n'umukecuru bicaye ku meza ateretseho udusorori turimo isosi yo kunywa, inyuma yabo hahagaze umusore wambaye amarinete n'umupira w'amaboko magufi, yambaye na baji mu ijosi.

Umusaza n'umukecuru, bigaragara ko bakuze cyane, bambaye imikenyero, ariko umukecuru yambaye umupira usa nk'ubururu n'agakomo k'umweru ku kuboko ndetse n'urunigi rurimo umweru n'umukara mu ijosi.

Umusaza wambaye umupira w'umuhondo werurutse ndetse n'akajire gasa nk'ivu, biragaragara ko ashaje kandi yaje kwa muganga kugira ngo bamuvure indwara zamufashe, imbere ye hari umukobwa w'umuganga uri guseka bigaragara ko ari kumugira inama kandi ari no kumuhumuriza kwa azakira neza.

Umugabo bigaragara ko akuze, yambaye umupira w'umukara, imbere ye hateretse mudasobwa afite ubwanwa bwinshi, iruhande rwe hari umukobwa we uri kumuha imiti mu ntoki kugira ngo ayinywe.

Umusaza wambaye ishati y'icyatsi, ufite ubwanwa burimo imvi nyinshi cyane, iruhande rwe hicaye umukobwa ufite ibisuko bisa nk'umukara uri kumusukira utuntu mu ntoki, bigaragara ko agiye kutunywa.

Mu isoko ry'ibiribwa bitandukanye harimo n'imbuto, hicayemo abagore batanu bambaye ibitenge bose, imbere yabo hateretse intebo zirimo inyanya, inyuma yabo hapakiye amaronji.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi, wambaye na rinete, yicaye mu cyumba kiganiririzwamo abantu bakuze kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza. Iruhande rwe, hakaba hari umukobwa wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi, uri kumwitaho.

Abayobozi bambaye neza cyane harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara, ufite agatebe bacungamo abantu babana n'ubumuga ndetse iruhande rwe hari n'imbago zigenderamo abantu batabasha kugenda cyangwa badafite amaguru.

Abantu batandatu bishimye cyane, harimo umusaza wambaye ishati y'umweru ufite imvi nyinshi n'abagore babiri bafite imisatsi miremire n'abana bari inyuma yabo, bigaragara ko ari umuryango wishimye cyane.

Urubyiruko rwambaye imipira y'umweru rufite ibirango byanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare kuko iravurwa igakira.

Umugore mwiza cyane ufite ibisuko bigwa mu mugongo, yambaye amaherena asa nk'umweru, yisize ibintu ku munwa ari kureba neza cyane ndetse biragaragara ko ari umuganga.

Inzu iberamo inama, hicayemo abaturage benshi bari kuganira n'abayobozi, bakaba bari kuvuga ku birebana n'ubuzima ndetse n'uburyo bwose bwakoreshwa kugira ngo hirindwe indwara zigiye zitandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'imbeho, n'ingofero, ndetse n'amarinete, afite igipapuro kinini, cyanditseho amagambo yo mu cyongereza agira ati; ubu nonaha ushobora kubona urukingo rugukingira ubushita bw'inkende.

Urubyiruko rutandukanye rwambaye imipira y'imyeru, harimo umwe wambaye ishati y'ubururu ndetse n'undi wambaye umupira w'icyatsi, bafite ikirango kinini cyanditseho amagambo agira ati "Rubyiruko nimwe hazaza heza h'uru Rwanda, mwirinde virusi itera SIDA kandi muyipimishe uyu munsi."

Abaganga baryamishije umurwayi hasi bari kumukurikirana bigaragara ko agize ikibazo cyo kugwa igihumure.

Sare nini iberamo imyidagaduro, hicayemo abantu benshi batandukanye, baje kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida, muri bibiri na makumyabiri na kane.

Mu cyumba cy'inama hicayemo abaturage batandukanye bigaragara ko bamaze kuganira ku buzima ndetse iruhande rwabo hateretse ameza agiye ariho ibitambaro bisa nk'umweru.

Abaturage bicaye ahantu ku rubaraza biganjemo abagore, harimo abambaye ibitenge bisa nk'ubururu n'abandi bambaye imipira isa nk'umutuku, bisa nkaho bari gukangurirwa kwirinda indwara runaka.

Abayobozi barimo abagore babiri ndetse n'abagabo batanu, bambaye baji z'umutuku mu ijosi bari kwifotoza biragaragara ko bari bamaze kuganira ku nama irebana n'ubuzima.

Abaganga bambaye udupfukamunwa tw'ubururu bwerurutse, umwe muri bo yambaye ijire y'umukara, undi yambaye umwenda w'akazi usa nk'ubururu, undi na we yambaye umwenda usa nk'icyatsi. Bari kuganira ku birebana na kovidi cumi n'icyenda.

Diyabete ni indwara mbi cyane iterwa n'umubyibuho ukabije. Ibimenyetso byayo harimo kumva ufite inyota nyinshi cyane, kwihagarika inshuro zirenze izo wari usanzwe ubikora, kumva unaniwe cyane, gutakaza ibiro mu buryo budasanzwe.

Umugore mwiza cyane wambaye ipantaro y'umukara n'ikote rijya gusa nk'ikigina, asutse ibisuko bigufi, afite mikorofoni ari gutanga ikiganiro cyerekeranye n'ubuzima.

Ubu byaroroshye cyane kubera ko Leta y'u Rwanda yegereje abaturage amavuriro, ubu ntibikibagora ntabwo bakirembera mu rugo, iyo bafashwe n'indwara bahita bihutira kwa muganga badakoresheje amafaranga menshi.

Ibitaro byiza cyane biri mu karere ka Nyanza, mo imbere harimo ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bifasha abaturage guhumeka umwuka mwiza bityo ntibagire indwara ziterwa n'imyuka mibi yanduye.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, mo imbere harimo ishati y'amaboko maremare isa nk'umukara, ari gutera urushinge umurwayi kugira ngo indwara yaje kwivuza itazamuzahaza.

Umugabo wicaye munsi y'igiti kinini, wambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari ibyatsi bitoshye cyane, hari n'ikirere gikeye, biragaragara ko yishimye ari kwitegereza ibyiza bitatse u Rwanda.

Kuri farumasi yitwa Iraguha, dukorana n'ibigo by'ubwishingizi butandukanye. Mutugane tubafashe kugira ngo ubuzima bwanyu bukomeze kurushaho kuba bwiza. Ntimukarembere mu rugo kandi duhari.

Kuri isange ni ahantu bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bakaba babaganiriza, bakabafasha kongera kwiremamo icyizere kugira ngo bumve ko ari abantu bashoboye badaheranwa n'ibyo baba bakorewe.

Kwa muganga, ku gitanda cy'abarwayi, haryamyeho umugore bigaragara ko arembye, hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'amarinete, ari kumusuzuma, kugira ngo bakomeze bamukurikirane.

Mu cyumba cyo kwa muganga gisa neza cyane, hicayemo umuganga wambaye ishati y'ubururu, uri kuri mashine, akaba ari kutwereka imikorere y'umubiri ariko ari kubikorera kuri mashini nini cyane iri muri icyo cyumba.

Ibitaro bya Kabutare bikoreraho ibijyanye na serivise zo muri Isange, imbere yabyo hahagaze abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa bigaragara ko hari ibyo bari kuganiraho.

Umubyeyi wambaye ikanzu y'ubururu, uteruye umwana mwiza cyane wambaye imyenda y'umweru n'ingofero y'umweru muganga ari kumwitaho, bigaragara ko uyu mubyeyi yaje kumusuzumisha.

Farumasi iri i Kanombe mu imbere harimo umukobwa wambaye ikanzu ijya gusa nk'umutuku, imbere harasa neza cyane hateye irange rijya gusa nk'umuhondo ndetse n'ivu.

Kwa muganga ni heza cyane kuko hadufasha kwivuza indwara zitandukanye, haba abaganga bakirana abantu urugwiro ndetse nk'uko bigaragara iki ni igitanda baryamishaho abarwayi bamaze kuremba, igihe baba batagishoboye kuba bajya kurwarira mu rugo.

Kwa muganga harasa neza cyane, hari amajaride arimo ibyatsi bitoshye n'abaturage bari kuhagendagenda, bari gushaka serivisi zijyanye n'ubuzima.

Ibitaro byiza cyane biri ahantu hasa neza hateye jaride, bifite amabara y'umweru avanze n'ay'ivu, bifasha abaturage kubona serivisi zijyanye n'ubuzima bitabagoye.

Ibitaro bya Kabgayi bizwiho kuvura indwara z'amaso bifasha abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi kubera ko hari n'izindi ndwara zihavurirwa ubuzima bwabo bugakomeza kugenda neza.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, giteye amarangi y'umuhondo, gisakajwe amabati y'ubururu, ni cyiza cyane. Imbere yacyo hicaye umugabo n'umugore, hagati yabo harimo umwana, biragaragara ko baje gushaka serivise z'ubuzima.

Kwa muganga harasa neza cyane, hari ibitanda bigera kuri bine by'abarwayi bigiye biri mu byumba bitandukanye. Ibi bikaba byifashishwa biryamishwaho abarwayi baje bamaze gucika intege cyane n'abandi bazamara mu bitaro igihe kirekire.

Ibitaro byiza cyane iruhande rwabyo haparitse imodoka ebyiri z'umweru n'indi ijya gusa nk'umukara, hari kugendagenda abaturage baje kurwaza abarwayi babo, ndetse n'abandi baje gushaka serivisi za mituweri.

Kwa muganga muri salle iberamo inama, hicayemo abajyanama b'ubuzima, barimo abagore n'abagabo, bagiye bambaye imipira y'amabara atandukanye, higanjemo iy'umuhondo n'iy'ubururu bwerurutse.

Ibitaro byiza cyane biteye amarange meza, imbere yabyo hari kugendagenda abantu, barimo uwambaye ishati y'umweru ndetse haparitse imodoka, irimo irange ry'umuhondo n'umweru.

Muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, harasa neza cyane, hari amajaridi arimo ibiti bitoshye, mu gahanda kegereye imbere y'amashuri, hari abagabo babiri, bose bambaye hejuru umutuku n'amapantaro y'imikara.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi harimo igitanda cyiza cyane, kiriho amashuka y'umweru n'akantu gasa nk'umutuku, hagati hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Kwa muganga hari umukobwa witeze igitambaro mu mutwe, wambaye agapira k'ikigina k'amaboko magufi, imbere ye hicaye umuganga wambaye itaburiya y'umweru, n'undi umuhagaze iruhande wambaye imyenda isa nk'ubururu.

Kwa muganga mu cyumba cyaho gisa neza cyane hahagaze abaganga babiri, bambaye amataburiya y'imyeru n'udupfukamunwa tw'ubururu bwererutse, hari ibyo bari gukurikirana imbere y'imashini iri imbere yabo.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi harasa neza cyane hateyemo irangi ry'umweru. Hari amarido meza ajya gusa nk'umuhondo werurutse, hari n'igitanda baryamishaho abarwayi igihe bamaze kuremba cyane.

Kwa muganga hari gusa neza cyane. Hari amajaride arimo ibyatsi bibisi, hari inzu zubakishije amatafari ahiye zisakajwe amabati y'icyatsi, ku buryo abarwayi baje kuhivuriza baba bumva bameze neza.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe, iruhande rwacyo hari kugenda abantu batandukanye, hakikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma ndetse bigaragara ko ari cyiza cyane mu buryo bugaragara, kikaba gifasha abaturage kubona serivisi zijyanye n'ubuzima bitabagoye.

Ibitaro byiza cyane biri ku muhanda wa kaburimbo, imbere yabyo haparitse imodoka isa nk'umukara, bigaragara ko havurirwa abarwayi bagiye batandukanye ndetse hakorwa n'inzobere mu by'ubuzima.

Abagabo bane harimo n'umukobwa umwe, bose bambaye amashati asa nk'umweru n'amapantaro asa nk'umukara, imbere yabo hahagaze umugabo uri kubereka aho bagomba gutambuka.

Umuganga w'umukobwa wambaye imyenda y'akazi isa nk'ubururu, ari gusuzuma umurwayi umuryamye imbere bigaragara ko arembye, ari gukurikirana ubuzima bwe kugira ngo butajya mu kaga.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo amabara y'umuhondo ay'umutuku, icyatsi, umukara ndetse n'icyatsi cyerurutse.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abaganga batatu bambaye imyenda y'akazi isa nk'umweru, iruhande rwabo hari umurwaza uri kumwe n'umurwayi we bikaba bigaragara ko yamuzanye kumuvuza.

Ikigo gikurikirana ibijyanye no gukora siporo, kiri ahantu heza cyane hasa neza, bikaba bigaragara ko hitabirwa n'abantu b'ingeri zose baje gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibitaro byiza cyane, imbere yabyo haparitse imodoka y'umutuku ndetse na moto, hateye idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hari kugendamo abaturage batandukanye baje kuhivuriza.

Kwa muganga hari abagore batandukanye baje gupimisha abana ibiro bafite iruhande rwaho hahagaze umukobwa wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare ndetse imbere ye hari umwana bashyize ku munzani bari gupima ibiro bye.

Ibitaro bya Ruhengeri biherereye mu karere ka Musanze byubatse ahantu heza cyane bikikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma, iruhande rwabyo hari kugenda abaturage batandukanye harimo n'abarwayi baje kuhashakira serivisi z'ubuzima.

Ibitaro byiza cyane bisize irangi ry'umweru ndetse bigaragara ko bigeretse, mo imbere harimo intebe nziza cyane bikaba bigaragara ko ari aho abaturage cyangwa abarwayi bicara igihe bategereje serivisi z'ubuzima.

Kwa muganga hateye irangi ryiza cyane hari akayetajeri karimo utuntu tw'umukara iruhande rwako hateretse igitanda kiriho akantu bakoresha bashyiramo serumu yo guha abarwayi.

Kwa muganga harasa neza cyane, hateye irangi ry'umweru, hari agatanda gashasheho amashuka y'icyatsi, hejuru hari ibitara binini bimurika igihe umurwayi bari kumukurikirana, by'umwihariko igihe umugore ari kubyara.

Ibitaro byiza cyane biteyemo irangi ry'umuhondo n'umweru, birimo ibikoresho bitandukanye ndetse harimo n'intebe batwaramo abarwayi batari kubasha kwigenza.

Kwa muganga harasa neza cyane hari agatibe gasa nk'umukara ndetse n'igitanda abarwayi baryamaho biteretse ahantu hari irangi ry'umuhondo n'ubururu.

Kwa muganga harasa neza cyane, hari igitanda gisize irange ry'mweru n'ubururu, iruhande rwacyo hateretse agatebe kagufiya, gasa nk'umukara.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo, cyegerejwe abaturage kugira ngo bajye babona serivisi zijyanye n'ubuzima, harimo no gutanga mituweli bitabavunnye.

Ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye birimo imiti ivura amaso, hamanitse amarinete menshi cyane agiye apanze ku gikuta.

Farumasi nziza cyane irimo intebe y'umweru abakiriya bicaraho iyo baje gushaka imiti, harimo uducupa turimo imiti y'amoko menshi atandukanye ndetse iyi miti ikaba ivura indwara z'ubwoko butandukanye.

Kwa muganga mu cyumba gisa neza cyane giteye amarange y'umweru. Harimo igitanda gishasheho amashuka asa nk'ubururu. Hejuru hashushanyije umwana ufite ballon mu ntoki.

Kwa muganga hari abantu benshi bagiye batandukanye, bicaye mu ihema risa nk'umweru ndetse n'abandi bagiye bahagaze, barimo abiganjemo abambaye imipira isa nk'icyatsi n'udupfukamunwa.

Kwa muganga harasa neza cyane, hari ibitanda by'abarwayi bishasheho amashuka asa nk'umweru ndetse hari kugendagendamo umuganga ufite ibisuko bigufi, wambaye imyenda isa nk'icyatsi.

Ibitaro birwariramo abarwayi bivuza bataha, bifite inzugi zirimo amabara y'umweru n'ibirahuri birebire, ibi bitaro bikaba bifasha mu buzima bw'abaturage bwa buri munsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirasa neza hateye irangi ry'umweru, harimo ibitanda bishasheho amashuka y'ubururu, ibi bitanda bakaba babiryamishaho abarwayi igihe baje kwa muganga barembye.

Kwa muganga harasa neza cyane hari ibiti by'imikindo, hari jaride zirimo ibyatsi bisa neza, imbere yaho haparitse imodoka eshatu z'abakozi bakora kwa muganga.

Ku bitaro hari abaturage batandukanye harimo uwambaye imyenda isa nk'ubururu uri kugendana n'undi wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru w'amaboko magufi.

Mu cyumba cy'abarwayi kwa muganga harimo ibitanda byinshi bishasheho amashuka asa nk'ikigina, hicayemo abarwayi benshi, iruhande rwabyo hari utugare batwaramo abafite ubumuga cyangwa abarwayi batari kubasha kwigenza.

Umukobwa w'umuganga mwiza cyane, ufite ibisuko bigufiya, yambaye itaburiya y'umweru irimo n'ibara rya move na ga mu ntoki, biragaragara ko ari gupima umurwayi umuryamye iruhande.

Kwa muganga harasa neza cyane, hicayemo abagabo babiri umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yambaye umupira w'umutuku aricaye, imbere ye hateretse mudasobwa n'agacupa k'amazi.

Kwa muganga harasa neza cyane, hateye irange ry'umweru, ni mu cyumba kirimo igitanda cy'abarwayi, iruhande rwacyo hateretse imashini ikoreshwa mu gupima umuvuduko w'umutima aho ugeze.

Mu bitaro kwa muganga hari igitanda gisasheho amashuka y'umweru kiriho n'imisego ibiri, iruhande rwacyo hari ibikoresho bikoreshwa mu gupima umuvuduko ndetse n'igipimo umutima w'umurwayi uri gutereraho.

Mu cyumba cyo kwa muganga haryamyemo umurwayi w'umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, n'ipantaro y'ikigina n'ingofero y'umukara, ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, iruhande rwe hari umuganga uri kumukurikirana wambaye itaburiya y'umweru usutse ibisuko bigufi.

Kwa muganga harasa neza cyane, harimo intebe zisa nk'umukara abaturage bicaraho ndetse n'abarwayi iyo baje gushaka serivise kwa muganga, mu baturage bahicaye harimo uwambaye umupira usa nk'ubururu n'undi wambaye umupira usa nk'umukara.

Farumasi nziza cyane irimo imiti itandukanye idufasha kuvura indwara zacu turwaye, mu imbere harimo amatara ndetse hateye irange rijya gusa nk'umuhondo.

Ibitaro byiza cyane byubatse mu buryo bugezweho birageretse, biteye amarangi asa nka oranje n'ikigina, imbere yabyo hari jaride nziza cyane zirimo utwatsi dusa neza cyane.

Umugabo uryamye kwa muganga bigaragara ko yaje kwivuza, yambaye ishati y'umweru n'umupira w'amaboko magufi mo imbere, ari guseka kubera ko yizeye ko serivise baramuha iragira icyo imufasha.

Ahantu heza cyane, bigaragara ko ari muri sale irimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe zisa nk'umukara n'utundi tumeza dusa nk'ikigina, iruhande rwatwo hateretse agakoresho gasa nk'umutuku.

Ibitaro byiza cyane bisize amarangi agiye atandukanye hari kugenda abarwayi ndetse n'abandi bantu baje kuhashakira serivisi zijyanye n'ubuzima imbere yabyo haparitse imodoka ifite irangi risa nk'ikigina.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirasa neza cyane giteye irangi ry'umweru, harimo igitanda cy'abarwayi gishasheho ishuka risa nk'umweru, ni ahantu habereye ijisho.

Kwa muganga harasa neza cyane rwose, hari umumama w'umuganga wambaye imyenda isa nk'umweru, ari imbere y'ikintu gisa nk'umweru kirimo n'irange ry'ubururu bigaragara ko hari ibyo ari gukuramo.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi cyubatse ahantu heza cyane, iruhande rwacyo hari umuyonzi uhetse umwana w'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira wa move.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi harasa neza cyane hateye irange ry'umweru, harimo ibitanda baryamishaho abarwayi, hakorewe isuku ku buryo bugaragara, kwa muganga tuhubahe cyane kubera ko bita ku buzima bwacu.

Inzu abagore babyariramo irasa neza cyane iteye amarange y'umuhondo iruhande rwayo hari kunyura umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amaboko maremare.

Inyubako nziza cyane, irimo amatara yaka umweru, hubatsemo n'ibyumba bifite amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, biragaragara ko ari kwa muganga, harasa neza cyane rwose.

Mu cyumba cyo kwa muganga, gisa neza, hateyemo n'amarangi y'umweru, ku gitanda gihari haryamyeho umugore ufite imisatsi migufiya, waje arembye cyane bakaba bagiye kumukurikirana.

Abaturage bicaye ahantu muri sale y'Inama, biganjemo abambaye amashati y'imyeru ndetse hari n'umuyobozi imbere yabo wambaye kositimu y'umukara uri kubaganiriza.

Ikigo nderabuzima cya Kigina, hari umubyeyi uje kuhavuriza umwana ufite agashuka k'umweru mu ijosi ndetse wambaye igitenge.

Ku bitaro byiza cyane bya etaje, imbere yaho hari abakozi bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara, bari kuganira kubijyanye no kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi.

Ku bitaro bisa neza cyane bya etaje, imbere yaho hari jaride nziza ziteyemo indabyo z'amoko menshi, hafasha abaturage kumva baguwe neza igihe bagitegereje ibisubizo bya muganga.

Iyo tuvuze ngo u Rwanda ruri gutera imbere cyane ntabwo tuba twibeshye nk'uko bigaragara rero aha ni mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ni byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi gukora siporo kuko bidufasha kurwanya indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije.

Ibitaro byiza cyane byubatse bigeretse, iruhande rwabyo haparitse imodoka ijya gusa nk'umukara hari n'abaturage bagiye batandukanye baje kuhashakira serivise z'ubuzima.

Farumasi ya Murekatete Maria Denise, ihagazeho umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, bigaragara ko bakorana n'ubwishingizi butandukanye.

Farumasi iherereye i Remera, iruhande rwayo haparitse imodoka isa nk'ubururu, imbere yayo hari imodoka isa nk'umweru, harimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye.

Farumasi irimo imiti myinshi cyane itandukanye, abaturage bajyayo bagiye kuyishaka kugira ngo indwara barwaye zitaza kubazahaza, imbere yaho haparitse imodoka y'umukozi ukoramo.

Ku bitaro by'i Rwamagana hari abayobozi bagiye batandukanye, hagati yabo hahagazemo umudogiteri wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse wambaye n'inkweto z'umukara, bari kwifotoza, barishimye, barasa neza cyane.

Ibitaro byo kwa Nyirinkwaya bigukoraho rikaka. Ibi bitaro bizwiho gukurikirana indwara z'abagore n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi isa nk'ubururu yaje mu mudugudu ari kugenda aganiriza abaturage ibijyanye no kugira isuku kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaje kuhakorera siporo. Ibi bikaba bidushishikariza kujya dukora imyitozo ngororamubiri kubera ko ari nziza ku buzima bwacu.

Ibitaro bya karayesi bivura abafite ibibazo byo mu mutwe byubatse ahantu heza cyane biteye irangi ry'umuhondo werurutse iruhande rwabyo hari jaride nziza cyane ibi bitaro bikaba bizwiho ko ari ibya mbere mu gihugu bishobora kuguhereza serivisi zose zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bifashisha bari kuyikora, hanze hari amajaride, arimo ibyatsi byiza cyane n'ibiti bitoshye.

Siporo ni nziza, ni ingirakamaro ku buzima bwacu, ni byiza kuyikora ndetse ukazajya ufata n'ibindi biribwa birinda indwara, harimo imbuto, imboga, ukanywa n'amazi bityo ugakomeza ukiberaho neza.

Umugabo wambaye umupira w'ikigina, bigaragara ko ari muremure, afite icupa ry'amazi mu ntoki risa nk'umweru ari kuyanywa ndetse nk'uko bigaragara yari ari gukora siporo.

Umugore wambaye agakomo ku kuboko n'impeta, yambaye umupira w'amaboko maremare, w'umweru afite agatambaro k'ubururu, bisa nk'aho ari kwikanda ku kuboko.

Umusore wambaye imyenda ya siporo, ubwo ni ukuvuga isengeri n'ikabutura, yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse ari gukandakanda ukuguru kwe kugira ngo imitsi irambuke neza.

Umusaza wambaye umupira w'umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu, bigaragara ko ari kumukoresha siporo, uwo musaza afite agatambaro gasa nk'umuhondo yiziritse ku ntoki.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara, isengeri y'umukara, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru bigaragara ko ari gukora siporo ngororamubiri kugira ngo zimufashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umusore wicaye arambije amaguru yambaye urukweto mu kaguru kamwe, akandi kari kwitabwaho n'undi mugabo umukoresha imyitozo ngororamubiri.

Amazi ni ubuzima adufasha kurwanya umwuma mu mubiri tukagira uruhu rworoshye kandi rutoshye, rero twitabire kuyanywa tubikunze umubiri wacu uzagira imbaraga ndetse ntusaze vuba.

Ibikoresho byo kwa muganga, birimo igikapu kiba kirimo umunzani bakoresha bari gupima ibiro by'abarwayi gisa nk'umutuku, biteretse ku meza meza, ariho igitambaro kirimo utubara tw'ubururu n'umweru.

Ikirahure kirimo ji n'amaronji agiteretse iruhande ndetse na pome biri kumwe n'udukoresho bakoresha bari gukora siporo.

CroixRouge ni umuryango ufasha imbabare ukabitaho ukabakurikirana, bakabaha ibikoresho byo kwifashisha cyane cyane abatishoboye kugira ngo ubuzima bwa bo bukomeze bugende neza.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko idufasha kugabanya ibinure, biba byavuye mu biryo twariye, dukwiye kurya ibiryo byiza rero bidufasha kubaka umubiri, harimo amagi, imboga n'imbuto.

Umusore wambaye ga nini bakoresha igihe bari guterura ibyuma, bari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hagaze umugabo w'umutoza we wambaye ijaketi isa nk'umukara.

Umusore uri gukora siporo wambaye imyenda isa nk'umukara, ikabutura n'umupira, yambaye inkweto zifunze z'umukara n'amasogisi y'umweru, iruhande rwe hari umutoza we wambaye imyenda isa nk'ubururu.

Mu cyumba cyo kwa muganga, haryamyemo umurwayi uryamye wubitse inda bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mugongo, akaba ari gukurikiranwa n'umuganga wambaye imyenda y'akazi ijya gusa nk'ubururu bwerurutse, akaba yambaye n'agapfukamunwa gasa nk'ubururu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ishati y'amaboko maremare na karuvati irimo amabara atandukanye, afite ikintu mu ntoki gisa nk'umutuku, yambaye n'ibikoresho by'akazi mu ijosi.

Umukobwa wari uri gukora siporo amaze kunanirwa, afite icupa ry'amazi risa nk'ubururu, ararifunguye ari kuyanywa kugirango akomeze gukora imyitozo ngororamubiri ameze neza.

Inkweto nziza cyane zisa nk'umukara zikunda kwambarwa n'abagabo, cyangwa n'abagore rimwe na rimwe, bakaba bazambara bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo, wambaye n'inkweto z'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Yicaye ahantu heza cyane, inyuma ye hari ubusitani. Gukora rero imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane ku buzima bwacu, kuko bidufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye umupira w'amaboko magufi bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri cyane, afite icupa ry'amazi ari kuyanywa, ari kudushishikariza kujya dukora imyitozo ngororamubiri buri munsi.

Ibitaro bya faisal ni byiza cyane kubera ko birasanasana iminsi y'abarwayi ikicuma. Imbere yabyo hahagaze abagabo batatu, harimo uwambaye imyenda y'ubururu n'undi wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'amaboko magufi.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi isa nk'ubururu. Afite ga mu ntoki zisa nk'umweru, imbere ye hari umusore wambaye ikabutura ngufi ndetse n'isengeri isa nk'umweru, bari kumucungisha mu kagare.

Gukora siporo ni byiza cyane, kubera ko bifasha ubuzima bwacu kumera neza, hano hari bimwe mu byo wakwifashisha bikunganira siporo kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza, harimo kurya inkeri, amaronji ndetse no kunywa amazi menshi ahagije.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ishati y'umukara, ari gukanda amaguru y'umurwayi wambaye ikabutura y'umukara, bigaragara ko aryamye ku gatanda k'abarwayi.

Umusore wambaye ikabutura isa nk'ikigina n'umupira usa nk'umweruru ufite amaboko y'umutuku, yari ari gukora siporo avunika ukuguru, imbere ye hahagaze umutoza we, ari gukurikirana ikibazo yagize.

Umukobwa wicaye muri salo, hari intebe z'imifariso, yambaye imyenda ya siporo ndetse biragaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari mashini ari kureberamo amashusho amufasha gukora izo siporo.

Umukobwa muremure ufite agasatsi gakeya, wambaye isaha ndetse n'agasengeri gasa nka oranje, ari kwinanura biragaragara ko ari muri siporo kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza.

Ibyiza bitanu byo gukora imyitozo ngororamubiri ni ibi bikurikira: bigabanya ibinure mu mubiri, birwanya indwara zifata umutima, bigabanya umuhangayiko, bituma ugira ibiro biringaniye ndetse bifasha mu igogora.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko biradufasha, ugomba kunywa amazi ahagije, ugasimbuka umugozi, ugakina imikino itandukanye kugira ngo umubiri wawe ubashe gukora neza.

Iiporo ni ingenzi ndetse ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuzikore tuzikunze kubera ko zizadufasha kurwara indwara zishobora no guterwa n'umubyibuho ukabije, harimo nko kurwara imitsi ndetse na Diyabete.

Abagabo babiri umwe arabyibushye undi arananutse, bambaye inkweto zifunze ubyibushye yambaye umupira w'umutuku n'ikabutura y'umukara, bari kwitoza kugira ngo bagabanye ibinure bafite mu mubiri.

Kwa muganga mu cyumba gihagazemo abaganga benshi batandukanye, bambaye udutambaro mu mutwe n'udupfukamunwa tw'ubururu bwerurutse, imbere yabo hari ameza ateretseho za mudasobwa, bari kureba imbere yabo bakurikiye, bigaragara ko hari abandi baganga bari kubaganiriza ku bijyanye n'indwara zitandukanye.

Umugabo ufite icupa risa nk'umweru ririmo amazi yo kunywa, akaba ari kuyanywa yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri yumva inyota iramwishe.

Urubaho rusa nk'ubururu bwererutse, rushushanyijeho ibinini bifite ishusho nk'iy'umuntu uri gukora siporo, iruhande rw'icyo gishushanyo hari serenge.

Umusore wambaye isengeri isa nk'ikigina n'isaha isa nk'umukara, yashyize amaboko mu mutwe biragaragara ko ari kwigorora kuko yari ari muri siporo.

Igikapu cy'umutuku, kinini, kirimo amabara y'umukara, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa igihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, bikaba byamufasha kongera kugira ubuzima bwiza igihe ahuye n'ikibazo.

Umugabo ukiri mutoya cyane, bigaragara ko yari ari gukora siporo, yambaye isengeri y'umukara, afite icupa ry'amazi ari kuyanywa ku kaboko ke hariho agakomo gasa nk'icyatsi.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi bigaragara ko yakoze umubiri yariri muri siporo ageze aho ananiwe afata icupa ry'amazi ye arayanywa, kugira ngo aruhukemo maze akomeze imyitozo ngororamubiri.

Abahungu n'abakobwa bapfukamye imbere y'umugabo uryamye hasi, bigaragara ko ari gukora siporo. Ari kuberekera uburyo bigenda kugira ngo bazajye bayikora, maze ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Kwa muganga hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, wambaye n'agapfukamunwa k'ubururu, uri kumurika umwana mu kanwa ngo arebe ko ntakibazo afite. Iruhande rwabo hahagaze umugore wambaye ishati y'umukara, wambaye n'agapfukamunwa k'umukara.

Umusore wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, yambaye isaha ku kuboko isa nk'umukara, ari kunywa amazi, biragaragara ko yarimo akora imyitozo ngororamubiri.

Abagabo batatu bambaye amakabutura asa nk'umuhondo, babiri bambaye ingofero ebyiri z'umutuku, undi yambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umuhondo.

Igikapu kinini cy'umutuku kirimo amabara y'umukara n'icyatsi cyerurutse, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, gukora siporo ni byiza ku buzima bwacu kubera ko bidufasha kwirinda kwandura indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije.

Kunywa amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, twitabire kuyanywa kubera ko bizaturinda guhura n'ibibazo birimo nko kugira umwuma n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umugabo wicaye mu kagare k'abantu badafite intege zo kugenda cyangwa se ababana n'ubumuga, yambaye ishati y'ubururu, iruhande rwe hari umugabo wambaye itaburiya umufashe akaboko.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara, isengeri y'umweru, irimo ibara ry'umukara n'inkweto zifunze, ari gukora siporo ndetse inyuma ye hari ibiribwa wakoresha kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza.

Ikirahure kiri gusukwamo amazi yo kunywa, ayo mazi akaba ari kuva mu ijage y'ikirahure, isa neza cyane. Tujye tunywa amazi kuko ni ingenzi ku buzima bwacu.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo isa nk'umukara, yicaye ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, imbere ye hateretse icupa ry'amazi, asutse ibisuko birebire cyane.

Amaguru abyibushye, bigaragara ko ari ay'umukobwa wakomeretse wicaye ku gatanda ko kwa muganga k'abarwayi, imbere ye hari muganga wambaye itaburiya usa n'inzobe bigaragara ko ari gukurikirana icyo gikomere kugira ngo akivure.

Ku kibuga bakoreraho imyitozo ngororamubiri hari abana benshi cyane bigaragara ko harimo n'urubyiruko. Bari gukora siporo kugira ngo umubiri wabo ukomeze kugira ubuzima bwiza.

Imiti y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, harimo iyo kwisiga n'iyo kunywa, ikaba yifashishwa igihe umuntu wari uri gukora imyitozo ngororamubiri, ahuye n'ikibazo runaka kugira ngo imufashe nko kongera kugorora ingingo ndetse n'ibindi.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'ubururu w'amaboko magufi ari gukoreshwa imyitozo nundi musore wambaye ipantaro isa nk'umukara ndetse n'isengeri isa nk'ikigina.

Ibiganza bibiri by'inzobe, byambaye ga z'umukara, bigaragara ko zikoreshwa mu gihe umuntu ari gukora siporo, ibi bikaba biri kudushishikariza gukora siporo, kubera ko ari ingenzi mu buzima bwacu.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo isa nk'umukara n'inkweto za siporo n'amasogisi y'umukara, yicaye ku gatanda imbere ye hahagaze umutoza we ari kumugorora amaguru.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi, harimo abaganga batandatu. Bane barahagaze, umwe aricaye yiteze agatambaro k'umutuku mu mutwe. N'undi ubicaye inyuma wambaye imyenda isa nk'icyatsi kibisi.

Kurya imbuto zitandukanye zirimo inkeri, pome, imineke, amaronji n'izindi nyinshi, bifasha kongerera ubudahangarwa umubiri, bigatuma uhora umeze neza.

Ikiganza cy'umuntu wambaye impeta, afite agatambaro biragaragara ko ari kwikanda ahantu yavunitse igihe yari ari gukora siporo.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane ariko bikaba akarusho iyo ufata indyo yuzuye. Harimo imboga n'imbuto by'umwihariko ukajya ukunda kunywa amazi mu buryo bukwiye.

Inzu ikorerwamo siporo z'ingorororamubiri, harimo ibikoresho bitandukanye, harimo abafasha gukoresha siporo, harimo amabaro manini asa nk'icyatsi, umuhondo ndetse na orange.

Umusore wambaye ipantaro y'ikigina n'umupira w'umukara, uri mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ateruye icyuma kinini cyane. Ibi bikaba biri kudushishikariza ko dukwiriye gukora siporo, kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bugende neza.

Umukobwa wunamye bigaragara ko ari gukora siporo, afite umusatsi mwinshi yambaye isengeri isa nk'icyatsi cyererutse n'ipantaro isa nk'ikigina.

Umugabo wambaye isengeri y'icyatsi, wambaye akantu gasa nka move ku kuboko, ufite icupa ry'amazi bigaragara ko ari kuyimena mu mutwe kandi yarari gukora siporo.

Umugabo bigaragara ko asa nkaho abyibushye, wambaye amayekuteri mu matwi uri kunywa amazi, bisa nkaho avuye muri siporo.

Mu bitaro kwa muganga mu cyumba kirimo ibikoresho bigaragaza ikigero umutima w'umuntu uri gutereraho, ndetse n'utundi dukoresho bakoresha bapima umuvuduko. Hari n'intebe isa nk'icyatsi kibisi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'ijire y'icyatsi, ahagararanye n'umusore uri gukora siporo, wambaye isengeri y'umutuku, ikabutura y'umukara ndetse bigaragara ko yishimye cyane, ari gukangurirwa kujya akora siporo kugira ngo yirinde indwara zishobora guterwa no kudakora siporo.

Agacupa gasa nk'ubururu gafite umufuniko w'icyatsi cyererutse, karimo umuti batera ku bihingwa kugira ngo udusimba tutabyangiza.

Uducupa tubiri tw'umuhondo dufite imifuniko isa nka shokora, dushushanyijeho igikakarubamba, ibi bikaba bitugaragariza ko turimo amavuta yo kwisiga.

Udukombe tubiri dusa nk'umweru turimo ibyatsi by'imiravumba bimaze gukorwamo umuti ugiye guhabwa abana barwaye inzoka kugira ngo zitaza kubatera ibibazo bikomeye.

Agacupa k'umweru kariho igipapuro gisa nk'umuhondo werurutse, gateretse ahantu heza cyane, iruhande rwako hashushanyije igikakarubamba biragaragara ko karimo amavuta akozwe mu gikakarubamba yo kwisiga.

Umuti uri mu gakombe k'umweru, ufite agapapuro gasa nka pinki iruhande rwawo hari amagambo agira ati: "uyu muti uvura kurangiza vuba ndetse no gucika intege".

Ku isoko y'amazi meza cyane iri ahantu mu ishyamba, hahagaze abagabo n'abagore baje kuhakorera ubukerarugendo bari kwitegereza uburyo ayo mazi amanuka.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite amaboko y'inzobe cyane, afite agapaki karimo ibinini, akaba ari kutwereka imiti tugomba gukoresha kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ikiganza gifashe agasekuru gatoya karimo n'umuhini bigaragara ko bari gusekuriramo ibyatsi bikorwamo imiti ivura indwara zitandukanye iruhande rwabyo hateretse udusahane twinshi tugiye turiho ibyatsi bigiye bitandukanye.

Udupaki dutatu dusa neza cyane, bigaragara ko turimo imiti, kamwe gafite irangi ry'umutuku mu ruhande runini cyane, biragaragara ko ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Agasekuru kari kumwe n'agahini kako byose bisa nk'umweru, iruhande rwabyo hateretse uducupa ndetse hirya y'utwo ducupa hari akavazi karimo ibyatsi bitandukanye, bikaba bigaragara ko ari imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi.

Agacupa k'umweru, gapfundikije umufuniko na wo usa nk'umweru, kariho urupapuro rwandikishijweho amagambo asa nk'umutuku, rushushanyijeho n'uturabyo dusa nk'icyatsi.

Mu murima harimo ibyatsi by'ubwoko bugiye butandukanye, bimwe muri byo bikaba bisa nk'umweruru, ibindi byatsi bikaba bikorwamo imiti myinshi itandukanye, ishobora kuvura indwara zirimo nk'inzoka ndetse n'izindi.

Ibyatsi bisa icyatsi kibisi, biri ahantu mu bihuru, biragaragara ko bikorwamo imiti itandukanye, yiganjemo iyo kuvura inzoka ndetse n'iyo gushyira ku bikomere.

Uducupa dutandatu dusa nk'umweru, turimo amabara y'icyatsi, bigaragara ko harimo amavuta yo kwisiga akoze mu gikakarubamba.

Mu ishyamba hari ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, bimwe muri byo bikoreshwa hakorwamo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'inzoka ndetse n'izindi.

Uducupa umunani tugiye turimo imiti y'ubwoko butandukanye, tubiri dusa nk'umuhondo, utundi dutandatu dusigaye dusa nk'umweru.

Utuvase tugiye dutandukanye, dutewemo ibihingwa by'ubwoko bwinshi bikorwamo imiti ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Agacupa k'umweru gapfundikishije umuvuniko w'umweru kariho igipapuro kiri mu ibara ry'umweru kirimo n'amagambo y'ubururu amwe muri yo akaba ari mirongo itandatu.

Ibintu bitandukanye bigiye birimo utubindi n'amacupa y'ubwoko butandukanye, bigaragara ko bishobora kuba bikoreshwa mu bapfumu. Bimennye hasi ni byinshi cyane, birasa nk'aho ari inzego za leta zabifashe.

Agatebo karimo ibyatsi by'ubwoko butandukanye gafashwe n'umugabo wambaye imyenda isa nk'icyatsi bigaragara ko ibyo byatsi agiye kubikoramo imiti.

Amavuta yo kwisiga akoze mu gikakarubamba ni meza cyane ku mubiri, agufasha kutagira ibiheri, guhumura neza ndetse no kurwanya udukoko dushobora kwinjirira mu ruhu, tukagutera izindi ndwara ziterwa no kuba wisize amavuta mabi.

Uducupa tubiri kamwe karimo amabara y'ubururu n'umweru, akandi karimo amabara y'icyatsi n'umweru ndetse iruhande rwatwo hari irindi cupa rinini ririmo amabara y'umutuku n'umweru.

Ahantu hameze nko muri jaride, hateyemo ibyatsi bitandukanye ndetse n'ikindi giti kijya gusa nk'umuravumba, ukoreshwa mu gukorwamo imiti ivura indwara zitandukanye.

Uducupa tubiri dusa nk'umuhondo, dufite imifuniko y'umukara, dushushanyijeho igikakarubamba, bigaragara ko turimo umuti wo kwisiga, imbere yatwo hateretse utundi dupaki tubiri na two turimo amavuta yo kwisiga.

Umusaza bigaragara ko akuze, yambaye umupira w'amaboko magufi, yagiye mu gihuru gushaka imiti yo kuvura abana be inzoka, n'ubwo zabarembeje, ni byiza ko yabajyana kwa muganga kuruta kuza kubashakira imiti yo mu kigunda.

Ikibaho kirimo irange risa nk'umuhondo n'irindi risa nk'icyatsi, iruhande rwacyo hateretse imiti isa nka oranje, bigaragara ko ikozwe mu byatsi gakondo ndetse akaba ari iyo kuvura inzoka zo mu nda.

Uducupa dutandukanye turimo imiti ndetse n'amavuta yo kwisiga. Kamwe gasa nka pinki akandi gasa n'icyatsi, ndetse n'utundi tubiri dusa nk'umuhondo.

Agacupa k'umweru gapfundikije umufuniko usa nk'umweru, kariho igipapuro cy'ubururu cyandikishijwemo amagambo asa nku'umweru bigaragara ko karimo amavuta yo kwisiga.

Ahantu hameze nko mu bihuru harimo igiti kirekire gisa nkaho kigiye kuma, iruhande rwacyo hakikijwe n'ibiti bigufiya ndetse n'ibyatsi bisa nkaho bigiye kuma.

Agacupa k'umweru karimo umurongo w'umuhondo ahagana mu ndiba yako gapfundikije umufuniko w'umweru gateretse ahantu hasa nk'umukara.

Aka etajeri karimo ibihande bine biteretsemo uducupa twinshi tugiye dufite udupapuro tw'umweru twandikishijweho amagambo y'umukara bigaragara ko ari imiti ikoreshwa mu kuvura inzoka.

Umuravumba ni igihingwa cyiza cyane kivamo imiti itandukanye, kera cyarakoreshwaga abantu bakaba bacyifashisha barwaye inkorora, barwaye inzoka cyangwa barwaye izindi ndwara zo ku ruhu.

Icyatsi gikorwamo imiti igiye itandukanye ivura indwara zitandukanye zirimo inzoka, amahumane ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane.

Ibicupa byinshi cyane bigera nko kuri makumyabiri, birimo imiti ijya gusa nk'umuhondo, biteretse ahantu ku kintu gisa nk'ikigina, biragaragara ko ari imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Urubuto rw'ipapayi ni rwiza cyane, kubera ko rudufasha mu kuba twagira amazi mu mubiri ndetse no kugira uruhu rworoshye, iyo ruhiye rukunda kuba rusa umuhondo, ariko mo imbere rusa nk'umutuku harimo n'utubuto tw'umukara.

Agasekuru n'agahini bitoya cyane birimo ibyatsi bigaragara ko bikorwamo umuti, iruhande rwabyo hateretse uducupa tw'umweru turimo amavuta asa nk'umuhondo.

Uducupa dutandukanye, harimo agasa nk'umuhondo, gapfundikishijwe umufuniko w'umukara, ndetse n'utundi tugiye dushushanyijeho ibikakarubamba, bigaragara ko turimo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye ndetse utundi tukaba turimo amavuta yo kwisiga.

Agacupa k'umweru gasa nk'akarimo amavuta yo kwisiga, gafite umufuniko w'ubururu, gateretse ahantu hasa neza cyane mu ibara ry'umweru.

Agacupa k'ubururu kariho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru, karimo amavuta yo kwisiga kugira ngo uruhu rukomeze rutoshye.

Mu murima hari ibyatsi bigiye bitandukanye bikorwamo imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye, harimo inzoka, ibicurane ndetse n'izindi.

Ikiganza cy'inzobe cyane gifite agakomo gasa nk'ikigina, giteruye igicupa cy'umweru kinini, kirimo amabara ya move ndetse n'igikakarubamba gishushanyijeho, bigaragara ko ari amavuta yo kwisiga.

Agasekuru gatoya kari kumwe n'umuhini wako, iruhande hateretse agacupa k'umweru karimo amavuta ajya gusa nka orange ndetse n'ibyatsi bihakikije, bigaragara ko ari imiti ya kinyarwanda ikoreshwa mu kuvura indwara runaka.

Ibyatsi bitoshye cyane, bikorwamo imiti ivura indwara zitandukanye, harimo amahumane ndetse n'izindi.

Agacupa k'umweru gateretse ahantu hasa nk'icyatsi, bigaragara ko karimo amavuta akoze mu gikakarubamba, ashobora gufasha umuntu ufite ibibazo bijyanye n'uruhu.

Ahantu hacururizwa imiti gakondo, hateretse amacupa menshi, agiye arimo iyo miti, hahagaze umugore witeze igitambaro cy'umweru mu mutwe wambaye baji y'ubururu mu ijosi, imbere ye hahagaze umugabo bigaragara ko yaje kugura umuti.

Ibinini bisa nka oranje biri iruhande rw'urubaho rusa nk'umuhondo ndetse hagati harimo agasorori karimo imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igikakarubamba ni igihingwa cyiza cyane. Gikorwamo ibintu bitandukanye harimo amavuta yo kwisiga, imiti y'inzoka, ndetse ushobora no kuba wagishyira ku gikomere aho umaze gukomereka. Tukibungabunge rero kuko ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Akaboko k'inzobe gafashe uburoso bw'amenyo, gateze imbere y'ikiganza cyambaye ishati y'ubururu, kiri kumushyiriraho umuti w'amenyo kugira ngo ajye gukora isuku yo mu kanwa.

Icyatsi gifite amababi ajya kumera nk'ay'ishu gifite uturabyo tw'umutuku mo imbere harimo akabara k'umuhondo n'umweru bigaragara ko gikorwamo imiti itandukanye.

Ibyatsi bitandukanye bivamo imiti gakondo idufasha mu kuvura indwara zitandukanye, harimo inzoka, amahumane, ise ndetse n'izindi ndwara zishobora gufata uruhu.

Uducupa dutatu kamwe gasa nk'umweru kagiye kugwa, akandi kandikishijwemo amagambo y'umukara ndetse hari n'akandi k'umuhondo gashushanyijeho igikakarubamba, bigaragara ko ari amavuta yo kwisiga.

Umugabo w'igikara waje mu murima gushaka ibyatsi agiye gukoramo imiti y'inzoka n'indi izajya ivura amahumane ndetse n'ise.

Uducupa tubiri dusa nk'umuhondo, dufite imifuniko y'umukara, iruhande rwatwo hateretse ikirahure kirimo amazi yo kunywa, bigaragara ko ari amavuta yo kwisiga.

Umuravumba ni icyatsi cyangwa igihingwa gikorwamo imiti y'amoko atandukanye, imiravumba ikunze gukorwamo imiti ivura inzoka ndetse n'inkorora.

Ibyatsi biri mu bwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, iyo abaganga bakoresha ibi ibyatsi bya gakondo bagiye kubikoresha bisaba ko babanza guhabwa amahugurwa kugira ngo iyo miti itazatugiraho ingaruka mbi.

Uducupa tubiri dusa nk'icyatsi, dupfundikishijwe imifuniko y'imyeru, n'utundi tubiri dusa nka move, na two dupfundikishijwe imifuniko ijya gusa nk'ivu, hakaba hari n'utundi tubiri dusa nk'kigina, n'akandi kamwe kari ku ruhande gasa nk'ubururu, twose tukaba turimo imiti gakondo.

Ibyatsi bikorwamo imiti y'indwara zigiye zitandukanye biteye mu murima, bikaba bikoreshwa n'abaganga bakunda gukoresha imiti gakondo.

Umugore witeze igitambaro cy'umweru wambaye baji isa nk'ubururu ari gucuruza imiti y'amoko atandukanye imbere ye hari umugabo wambaye ipantaro y'ikigina n'ishati y'amaboko maremare waje kugura kuri iyo miti.

Agacupa kajya gusa nk'umweru gapfundikishijwe umufuniko w'icyatsi, kariho icyapa cyanditseho ngo umuravumba. Uyu ukaba ari umuti uvura indwara zigiye zitandukanye.

Uducupa tw'umweru turiho ibipapuro bigiye byanditseho amagambo atandukanye, dupfundikishijwe imifuniko isa nk'umweruru kamwe muri two kariho urupapuro ruriho amabara asa nk'ubururu.

Imirima y'ubwoko bubiri, irimo ibyatsi bigiye bitandukanye, bikaba bigaragara ko bikorwamo imiti y'amoko atandukanye, ikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi.

Ibyatsi bikorwamo imiti ivura indwara zitandukanye, bikoreshwa n'abaganga bakunze gukora imiti gakondo kugira ngo batuvure indwara zigiye zitandukanye.

Ahantu hari pipinyeri z'imiravumba, hahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara n'abandi baturage batandukanye, bigaragara ko baje kugura ingemwe zo gutera.